Reka mbigusobanurire neza ubyumve! Kuva namenya inzoga ya Virunga nta yindi nzoga ndongera kunywa; sinzi rero impamvu uri kumpatira zino nzoga zawe ngo nzinywe! Niba ufite amafaranga, nta kibazo cyayo ufite, wanguriye Virunga hariya ko zihari nkinywera?

Nyiri kano kabari ni umuhanga rwose urebye ukuntu yita kubakiliya ababaza amakuru buri kanya, narabikunze cyane. Ibaze ko twahageze bwambere akadusaba nomero zacu kugira ngo azajye atuganiriza gusa kugira ngo tuzagaruke kumugurira narishimye cyane pe!

Ubusanzwe ibintu bya hano iwacu bigendera ku murongo. Hanyuma, aya makesi ya fanta n'inzoga uyasanze aha ngaha bitewe n'uko hariya hirya tuyabika bari kuhakorera isuku, ubwo ngubwo byasabye ko tuyazana aha ngaha. Dutegereje ko bamara gukora hariya hirya kugira tuyasubizeyo. Nibamara kuyasubizayo hano hantu haraba hakeye, uraza kuhayoberwa.

Buri gihe iyo mvuye mu kazi ndushye ndaza nkicara aha ngaha nkaruhuka, hano rero hakoreramo umugore amenya ibyo nkunda. Burigihe iyo mpageze ampa mitsingi ikonje kuko niyo nkunda, rero iyo nananiwe kenshi mfite inyota iyo nyinyweye numva nduhutse.

Kirasira ubundi ko jya kunywa ngenyine nkubu ahantu nicaye kano kanya ndi kumwe na madamu wange, Kari gateretse hariya ni agakapu kiwe ubwo rero nawe niba ushaka kutwiyungaho waza rwose nkakugurira takibazo. Upfa kuba gusa ukunda mitsingi kuko nizo ngura gusa

Ubushakashatsi bwagaragaje ko mu myaka yashize Bralirwa itarigikora inzoga nyinshi za amstel ariko muri uyu mwaka inzoga yakoraga yarazongereye bitewe nuko amstel ziri kunyobwa cyane ugereranyije no mu myaka yashize ubungubu abantu bavuye kuzindi nzoga banywaga bari kwikundira amstel.

Aka kabari nasohokeyemo nagakunze rwose, harimo Abazungu benshi noneho bamwe basinze bari no kurwana, najyaga nibwira ko Abazungu badashobora gutsindada ngo bagere ku rwego nk'urwo njya mbona ku Banyafurika, biratangaje rwose aha hantu rero nzahagaruka kuko nahakunze.

Uyu munsi ahantu twagiye kunywera bari batwishe, twahageze dusanga hari pirimusi(Primus) gusa .Umugore twari turikumwe rero arazikunda cyane yazisabye arazikubita, arazikubita amaze kuzinywa baratubwira ngo n'itwishyure, nafashe telefone yanjye umuyoboro wa MTN ndikwishyura biranga rwose, kuko ntayandi mafaranga twari dufite mu ntoki ,twategereje imiyoboro irakora turishyura ubundi turataha.

Umuhungu twasohokanye ni umusinzi pe! Ndebera ukuntu afata icupa ry'inzoga akarireba nkaho arifiriye ifemba ryinshi wagira ngo ntabwo aziheruka. Ubu nibura agiye kuzinywa atahe yasinze wagira ngo nta nubwo azi kugenda. Ngwe ubu mbanumiwe rwose!

Birambabaza cyane iyo nasohokanye n'inshuti zange mu kabari nijoro bakanjyana ahantu haciriritse bacana amatara y'umweru. Ngewe nshimishwa n'amatara arimo ubururu, umutuku n'andi mabara yose ariko atari umweru pe.

Umva musore! Fata iri cupa nari ndi kunyweramo urijyane urisimbuze unzanire indi nzoga. Sinzi impamvu uri kunyima inzoga kandi naje nzanye amafaranga yanjye? Hanyuma n'iyi miheha y'umweru iyinkure imbere ntago nshaka kuyibona, kuko mukanya nintangira gusinda nayijugunya yose.

Ibyo bavugaga ni byo koko! Muri kano kabari nahageze kare mpamaze umwanya munini, ariko nta muntu n'umwe nigeze mpabona. Ubungubu bose umugoroba nugera, baratangira kuza umwe umwe, mu masaha ya saa tanu habe huzuye. Nange ntagereje kureba n'amatsiko menshi abantu baraba bahari ukuntu baribube bangana.

Abanywi benshi b'inzoga bakunda kuvuga ko banywa izibonetse zose. Yaba iza rufuro, yaba kanyanga, yewe n'izindi. Ariko umwe mu bo tuziranye yarambwiye ngo iyo wanyweye kuri Heineken, nta yindi nzoga ushobora kunywa kuko ngo ni inzoga iryoshye cyane, njyewe ntabwo mbizi neza.

Mbabarira unsobanurire neza: Iyo ugiye mu kabari mu masaha y'ijoro utanywa inzoga, uba wumva nta kibazo ufite? Uhora uvuga ngo wishimira amatara atukura, ay'ubururu, yewe ngo n'ukuntu mu kabari inzoga ziba zipanze. Ibyo bintu ntabwo ari iby'abakirisitu rwose.

Nicaye iruhande rw'abadamu babiri bari kureba umupira, ariko ikintu gitangaje ni ukuntu ubona bose bawushamadukiye nk'aho basanzwe bawureba. Ubusanzwe nzi ko umupira ukundwa n'abagabo cyane cyane ugereranjije n'abagore. Ubungubu nange natunguwe ndikwibaza ababadamua ari abahehe.

Uyu munsi ndashaka ko tujya kunywera mu kabari gafitemo ibiteleviziyo binini kuko ndashaka kwicara nimara gusinda nkareba umupira, iyo nasinze nkunda kureba umupira kuko buri kipe yose itsinze mba ndi kuyifana, ubwo rero kuko ntakintu mba nitayeho mba numva nishimye gusa.

Abanyarwanda bateye imbere cyane pe! Ibaze ko nageze mu mugi nkabona icyapa kiriho umukobwa uri kwamamaza inzoga ya sikolo yitwa virunga, nabirebye numva ndumiwe. Ubundi mu gihe cyacu wasangaga umukobwa atemerewe kunywa inzoga ku karubanda abantu bamureba.

Ibiciro byacu ntabwo bihenze rwose. Inkoko ni isanzwe, inkoko irimo umuceri, itetse mumavuta, tuguha inkoko yose wifuza. Ikirenze kuri ibyo ngibyo, iyo waguze inkoko tugushyiriraho n'ifiriti ndetse na mayoneze.

N'ubungubu hari ikintu ntarasobanukirwa neza. Kenshi iyo ngiye mu kabari nkunda kujyayo ngiye kureba umupira gusa mu masaha y'umugoroba. Ariko nkunda kubona abasore benshi bicaye kuri kontwari ku ntebe ndendeeee zisumbye iyo mbanicayeho. Nkibaza ziriya ntebe bazikundira iki koko?

Uyu munsi njyewe n'inshuti zanjye twishimye cyane, twasohokeye mu kabari ka Eric, uyu munsi yari aniveriseri ya murumuna we, baduhaye inzoga n'amafana, twanyoye twahamaze nk'amasaha atandatu, kuva saa munani kugera saa kumi n'ebyiri turi kunywa kandi ntabwo bigeze batwishyuza.

Ikintu nkundira kabari cyanecyane ni uburyo gakoze ahantu hose waba wicaye mu masaha y'umugoroba ushobora kureba umupira ikindi kintu kiza cyaho nakunze ni amatara yaho bacana nimugoroba aba arimo amabara y'umuhondo ubururu , umutuku n'ayandi.

Wowe ntiwigore ujya kure umumotari uri bugutware umubwire akuzane akugeze neza ku cyapa cya MUTZIG ahantu kiri, ubwo ngubwo nahakurenza akakugeza imbere simbizi ahantu uraba uri kujya, wowe uhagarare aho ngaho ubundi bwo umpamagare ndahita nza nkurebe.

Uyu mugabo aza mu kabari kanjye bwa mbere yaje ansaba akazi ko kwakira abantu gusa ariko sinkamenye ko azi no gukora ikawa, nyuma sinzi ukuntu twabiganiriyeho arambwira ngo arabizi kandi ngo yaranabyize nahise mushakira imashini mushakira n'ahantu ho gukorera ikawa.

Umugabo yicaye ku meza iriho ibirahure bisa neza cyane yarambitseho ibiganza, ameze nk'umuntu warushye uvuye ahantu kure ategereje ko bamuzanira akantu gakonje bakamushyirira muri bino birahure kugira ngo yice akanyota anaruhuke.

Ubundi muri Kigali ahantu bizwi ko hari utubari dukora neza nijoro ni ahantu bita Kicukiro no ku gisimenti, mu byukuri aha hantu mu masaha ya saa sita na saa saba haba huzuye abantu ushobora kuhageza ukibaza niba hari ikintu cyahabereye kindi.

Byarangoye cyane kwicara ku meza y'abantu bari kunywa inzoga ngewe ntari kuyinywa. Bamwe bambwiraga ibyo bashaka, abandi bakantuka, bamwe bagashaka kuzinywesha. Ariko ubungubu maze kubimenyera rwose kuri ngewe ni ibintu bisanzwe ubu nanakugurira.

Njyewe ubu mba numiwe! Ibaze ko nageze mu kabari kawe nkasanga nta nzoga zirimo yewe na amusiteri nasanzemo dore ko ari zo nikundira nasanze zidakonje, ubwo rero ntegereje ko uriya mukozi wawe azikonjesha hanyuma akazinzanira zimeze neza kugira ngo mbone kwishyura.

Uruganda rwa sikolo nirwo ruganda rwa mbere mu nganda z'ikora inzoga rwamamaza cyane mu Rwanda, ibaze ko ahantu hose ugeze mu mujyi wa Kigali buri byapa bitanu haba harimo kimwe cya sikolo, ikintu gitangaje nuko nagezemu ntara mu karere ka Rusizi naho nkasanga niko bimeze.

Mu byumweru bibiri bishize ngewe na madamu wange hamwe n'imfura yacu twatembereye ahantu batinda kutwakira bikabije pe! sinsi ukuntu nahagurutse ngo nje gushaka umumtu utwakira ngarutse, nsanga madamu yarangariye muri telefone dore ko ayikunda cyane.

Nicaye ahantu nitegeye kontwari yose, ariya mayoga yose manini uko uri kuyareba nange ndimo ndayabona, ariko harimo iryo nabonye nkumbuye kunywa umunsi nabonye amafaranga rwose ntakabuza nzagenda ndigure ryicareho ijoro ryose.

Aka kabari twaje kunyweramo nagakunze pe ibaze ko ahantu hose wicaye haba hari televiziyo urareba rwose umupira uko ubishaka nta muntu ukubyiga aho duheretse kujya ubushize naragiye nsanga huzuye ubwo ni ukuvuga ngo narebye umupira mpagaze.

Hanyuma resitor yacu dufitemo byose mwifuza. Ibi ni ibiciro ndetse n'ibyo ducuruza ushobora kureba uhereye aho ngaho ku mafanta ndetse n'ibindi biyobya waba wifuza, hanyuma tubafitiye umuceri uvanze n'inkoko ndetse n'undi uvanze n'inyama zisanzwe.

Leta y'u Rwanda ishishikariza abanyarwanda bose ko igihe cyose uguze ikintu ugomba kujya usaba fagitire ya Ibiyemu. Hari ahantu henshi rero dukunda kujya guhahira bakatwima fagitire, yewe naho wababaza ngo murayifite, bakakubwira ngo ntayo bitewe n'uko baba badashaka gusora.

Impamvu nahavuye vuba rero, ngewe nahagiye nzi ko ndi bubone ibinyobwa byose nifuza; nahageze mbasabye ikawa nyarwanda barambwira ngo ntayihari, mbabajije iyo baba bafite barambwira ngo ikawa zarabashiranye ngo nzagaruke ku wa mbere. Ubwo se, aho hantu koko ni mukabari!

Nimba wahageze rwose ntugire ikibazo nange ndikuza ndi mu nzira, hanyuma wegere kontwari wicare kuri iyo ntebe ndende ihari ubabwire baguhe icyo ushaka ariko nange ubabwire babe bakunterekera iruhande sikoro ikonje kuko ndayikumbuye pe! Ndumva mfite icyaka cyinshi singe uri burote mageze kugira ngo icyaka kinshiremo.

Abanyarwanda benshi iyo tuvuze inzoga ya Skol bahita babihuza n'ikipe y'umupira w'amaguru yitwa Rayon sports mu Rwanda kubera ko iterwa inkunga n'uruganda rukora ino nzoga, abafana bino kipe rero bakunda kunywa ino nzoga ku buryo iyo yatsinze nta yindi bashobora kugura.

Reka mbasobanurire aba bantu turi kumwe, uyu mugabo wambaye umupira w'umweru unyicaye iruhande ni we nyiri kano kabari, naho uyu mudamu mureba hano mwese ni umugore wange, uriya mu papa uri hariya rero ni umukoresha wange ku kazi.

Akabari kose ngezeho gasize amabara atukura n'ay'umweru, mpita mbyibwira rwose ko abakiriya baho bakunda inzoga ya Amusiteli. Ubwo rero nanjye iyo mpageze simpatambuka kuko nkunda inzoga ya Amusiteli cyane. Ejobundi ni bwo nari nagiye gusura mukecuru wanjye, arayinzanira rwose, dore na we ko atajya abyibagirwa ko nyikunda.

Ahantu twasohokeye haratangaje pe! Nahageze ndebye ibiciro byaho numva nkubitswe n'inkuba ibihumbi mirongo itandatu, mirongo itanu, mirongo ine ayo mafaranga subwo nayakurahe ra? abantu tudafite akazi twese rekareka biba bigoye kugira ngo uzabone amafaranga angana gutyo.

Mu by'ukuri njyewe ntabwo nzi ikintu wifuza, wantumye amapaki ya keke none nayakuzaniye, ntiwambwiye ko ushaka ayo gucuruza? Nakuzaniye meshyi nyine nk'uko wabisabye. Rero nimba ukeneye n'amandazi, ubwo byasaba undi munsi, kuko ayo nagendanye yashize.

Hano dufite imigati itandukanye dufite imigati y'umunyu y'abantu barwaye diyabete tukagira n'imigati y'isukari y'abantu bafite ubuuzima buzira umuze. Imigati yacu rero ifite ubuziranenge kandi iraryoshye ndabyizeye ko nuyigura uri uzayikunde.

Ahantu twaje kunywera amata rwose nahakunze. Reba ukuntu hari isuku nyinshi, yaba kino gikombe bampereyemo yewe reba n'aya meza . Igitamabara cyabo cy'umweru nacyo wagira ngo ni agashyushyu ariko ikibazo nabonye ni kimwe reba iyi nshyushyu bampaye urabona yuzuye wowe?

Hari ukuntu ujya ahantu rwose ukabona umuntu ntabwo yishimye, hari ahantu nagiye kugura amata kare, nsangamo umumama yicaye ubona abababaye rwose, umukobwa uhakorera rero yamurebaga ahubwo ukabona arenda kumuseka, nabiribye rwose numva birambabaje pe!

Ubundi abana n'abamama nibo bantu bakunda cyane yawurute, bavuga ko ziryoha ku rwego rwo hejuru ariko njyewe kugeza ubungubu ntago ndayinywaho, ni kuriya nyine niko nyibona iba ifunze ariko nkunda kuyigurira abana banjye nkabona barayishimiye cyane.

Twaje hano tuje kunywa amat ariko sinzi impamvu ugeze ahangaha ugahindura ugafata ibiryo niba ari uko dusanze harimo resitora kandi bakaba bateka neza simbizi, ubusanzwe se hano hantu urahazi uzi imitekere yaho n'ibyo bateka ukuntu biba bimeze? Ngewe ni ubwambere mbageze.

Iyo ngiye kunywa amata akenshi nkunda kuyanywesha keke. Abantu benshi barambwira ngo umugati cyangwa se amandazi ngo nibyo byiza ku mata, ariko ngewe maze igihe kinini nikundira keke sinzi ko n'amandazi wayambwira ngo nyumve reka reka sinyakunda rwose.

Kera nkiri umwana n'akundaga amata cyane pee! Ibaze ko iyo nararaga ntaya nyweye n'arariraga cyane nkabwira papa ngo na ngurire amata ,umunsi umwe twaragiye angurira litiro eshanu zirananira kuva icyo gihe sinonjyeye kurira iyo nariraga yarankubitaga akambwira ngo"sinayakuguriye akakunanira".

Abantu benshi bakunda kubona icyuma gitunganya amata bakumva ari ibintu bisanzwe, ndetse byoroshye no kukibona, ariko kiriya cyuma kirahenda ku rwego rwo hejuru, ibaze ko gishobora kugura mu mafaranga ageze muri miiyoni, nge nkibyumva bwa mbere numvaga nkeneye kukigura ngo nange ncuruze amata, ariko nahise mbivamo.

Inshuti yange ifite umwana w'inzobe ariko biratangaje cyane uburyo akundamo telefone, buri gihe iyo ngeze mu rugo iwe nkasanga adafite telefone ya se, akunze kunsanga yirukanka akanyaka iyange nayimwima akarira.

Bitewe n'ukuntu nkunda kunywa amata cyane, iyo narwaye maraliya muganga akunze kumbwira ngo sinywe amata ariko nkabirengaho nkayanywa, rero kenshi nkunze kuyirwara bakampa ibinini bwa mbere sinkire, nkongera ngasubirayo kwivuza bitewen'ubucucu bwange.

Ni we bari bambwiye kuko umugabo wampamagaye yambwiye ngo umudamu uribuze hano yambaye ikoti ry'umukara afite n'imisatsi miremire ngo mwakire neza, hanyuma rero amata yanyu ni aya ngaya ari hano ndetse yambwiye ngo mbahe na keke eshanu n'amandazi abiri.

Murumuna wanjye mutoya akunda amandazi ku rwego rwo hejuru, hari ahantu twatambutse ku basore bafite indobo ebyiri z'amandazi arambwira ngo nimugurire, yayariye ngira ubwoba pe! Namuhagaritse rero ndamubwira nti bireke ubungubu ngiye kukugurira andi tujyane mu rugo uyarire mu rugo.

Umusore turi kumwe aje hano ashaka amata litiro ebyiri simbizi niba hari ikintu muri bumufashe ntakintu yitwaje cyo kuyashyiramo kandi ngo ntabwo akeneye yayandi afunze hamwe akeneye ko mumupimira inshyushyu yanyu nziza ivuyu muri iriya mashini yanyu itunganya amata.

Umukozi wange ndamukunda pe! akunda abantu bakuze kandi akanabubaha, hari umukecuru w'inshuti yange rero wadusuye uno munsi umusore wange rwose yamwakiriye neza yamwakiranye urugwiro, amuha amata amwubashye cyane.

Twebwe hano amata ni nk'ubuntu, turayafite menshi pe, waba uri kurangura, waba uri kugura ayo kujyana mu rugo, waba ari ayo ugiye kunywera ahangaha, turayaguha ntugire ikibazo, Mukamira ubusanzwe ntan'ubwo ihenda cyane, ubwo rero nawe ngwino wihitiremo.

Nk'uko nabigusobanuriye dutangira gutembera ububiko bwacu rero, iki gice nacyo ni icyo tubikamo amata ya litiro eshanu, bitewe nuko abakiriya bacu rero bakunda kunywa amata ya litiro eshanu ari benshi, niyo mpamvu twahisemo ko amata ya litiro eshanu aba menshi ugereranyije n'aya litiro ebyiri ndetse n'eshatu.

Hona hantu muri abakire rwose ! Izi mashini zitunganya amata mwazikuye hehe ko ari nyinshi? Ubusanzwe ahantu bacuruza amata usanga hari imashini imwe kandi nayo itari nini nk'iyi yanyu. None reba ahangaha mufitemo imwe nini n'iyindi ntoya. Izi mashini ko zihenda amafaranga mwayakuye hehe?

Ibyo uvuze koko ni byo! Ubwashize ubwo mperutse kugurira umugati hano, narawukunze cyane, ndetse na madamu yarawukunze pe! Rero ni yo mpamvu ngarutse hano, ndagira ngo umpe indi migati ibiri, nabwo ninimva ikiryoshye nka mbere, ejo nabwo nzagaruka umpe iyindi ibiri.

None se uri kumbaza ko dufite amata akonje ntabwo uri kureba icyuma kiri hano, nukuvugango ibintu byose washyize muri iki cyuma bisukika bivamo bikonje kuburyo udashobora kubinywa uko wiboneye, nkubungubu aya mata arimo hano nyaguhaye ugahita ugotomera, amenyo yawe ashobora gukuka kubera ubukonje.

Mu rwego rwo koroshya akazi iyo amata yadushiranye hano, abantu baje kugura amata bafite utubido, nandikaho amazina yabo kugira ngo bize kunyorohera gutandukanya buri muntu n'akabido ke. Hanyuma rero iyo amata abonetse ndongera nkabahamagara buri wese asoma izina rye atwara akabido ke.

Ahantu naguriye amata uno munsi ibintu by'aho biratangaje, nahageze nsanga imashini yaho itandukanye n'izindi zose nsanzwe nzi zitunganya amata, kuko iyabo yo ni nini uko bigaragara ishobora kuba ibika amaritiro nka mirongo itandatu icyarimwe. Uziko numiwe!

Umudamu twasuye yatwakiriye neza cyane biranshimisha pe! Ngewe na bagenzi bange twahageze, atuzanira ibikombe by'amata turanywa, yewe atuzanira n'amakeke yuzuye isahani turayarya aratunanira amwe tukajya tuyajugunya hasi.

Kera byabaga byoroshye gushyira mu bikorwa umushinga w'ubucuruzi, cyane cyane nko gucuruza ibintu by'ibinyobwa, icyayi, amaji, cyane cyane icyayi gusa kuko abantu kera ntabwo banywaga ji cyane, teremusi zawe ebyiri zabigufashagamo.

Sinzi impamvu uri kuvuga ngo naguhenze inshyushyu yacu tuyigurisha nk'ahandi hose litle ni magana arindwi ahubwo n'ubutaha uzagarukane na bagenzi bawe, kuko iyi nshyushyu nguhaye ni nziza iraryoshye ariko wibuke kuyiteka kuko nutayitekera irapfa.

Uramutse udusuye ntukunde amandazi yacu waba ufite ibibazo pe ariko niba ufite ibibazo cya diyabete rwose aho ngaho ntabwo urimo kuko amandazi yacu ni isukari gusa, tuyashyiramo isukari n'amagi ugasanga araryoshye cyane.

Muri karitsiye yacu harimo umucuruzi mushyashya yantangaje rwose. Ibaze ko yaje kandi mu iduka rye ntabwo ryari rinini agatangira kutwereka ibicuruzwa byose afite n'amafaranga bigura kandi twese turi kubyisomera turi no kubyirebera. Gusa yarafite amata aryoshye pe!

Abanyarwanda benshi banywa amata apfunyitse bavuga kobakunda amata ya Nyanza rero abenshi bibwira ko iyo bageze i Nyanza bitewe n'uko haturuka amata menshi nubundi biba bihendutse bitewe

Abana nigisha bakunda ibiraha pe, akenshi iyo isomo rirangiye mu masaha ya saa sita cyangwa se y'umugoroba, bakunze kunyegera bakanshagara ari benshi bambwira ngo tugurire ibiraha. Ariko ntabwo ari bose kuko harimo bakeya batabikunda n'abandi bikundira isambusa gusa.

Ubundi njyewe akenshi iyo ngiye kugura amata cyane cyane nka reya litiro eshanu, iyo atanditseho Nyanza rwose sinshobora kuyagura, ubushize bampaye ayanditseho Nyagatare ariko sinayakunze, njyewe n'abana banjye dukunda Nyanza niyo twamenyereye.

Nyumva neza, umwana wanjye namwohereje hano ngo umuhe amata ya Mukamira, sinzi impamvu wamuhaye amata y'Inyange. Amata y'inyange sinjya nyagura njyewe. Hanyuma rero ngarutse hano kugira ngo umpindurire amata wampaye umpe amata ya Mukamira rwose.

Kare nagiye muri resitora mfite inzara nyinshi mpageze nsanga ntabiryo bihari, nababwiye rero ngo nabanzanire ikintu cyo kurya gihari. Banzanira akantu karimo amagi umunani ubwo nayariye hamaze gusigaramo atatu numva ndahaze pe, nahise ndecyera.

Uyu mudamu buri gihe akunda kuza hano kugura amata y'inshyushyu bitewe nuko azi ko amata yaho ntabwo ajya ashira kandi n'ibiciro byaho ntago bihindagurika, ubwashize yari maganarindwi ariko iyo ugiye ahandi usanga baguca maganinani ndetse na maganacyenda kuri litiro imwe.

Ntugire ikibazo rwose n'ubwo ndi mu bindi ushobora kwegera iriya firigo tubikamo amata ugafata keke ashatu ukaba urya, nange ninza ndakongera izindi nuba ugikeneye kurya, ntugire ikibazo rwose genda wihereze yewe n'amata nuyamara wiyongere ntakibazo ngewe mbifiteho.

Abashinzwe ubuzima mu Rwanda, bashishikariza abacuruzi bacuruza ibintu byerekanye n'amatakugira isuku; ndetse bagakorera isuku cyane ahantu batunganyiriza amata, bivugwa ko amata, iyo agiyemo umwanda ashobora gutera indwara zikabije, zirimo na korera.

Hari ukuntu ngera mu maduka acuruza ibinyobwa n'amata, nareba mu tubati twabo nkabona bashyizemo amagi rero bitewe n'ukuntu nkunda amagi rwose , biragoranye cyane ko nagenda ntaririye kenshi ubusanzwe hari igihe mpita mbabwira ngo nibamfunyikire na capati ebyiri nkazishyira mu kantu nkitahira.

Abantu benshi babayeho ubuzima butuje ndetse bameze neza kuko badafite ibibazo by'indwara, ariko burya byanze bikunze hari ikibazo kiba kiri mu mubiri iyo ufata amafunguro utarya imbuto, njye ndabashishikariza ko mwajya mufata amafunguro ariho imbuto buri munsi.

Ntabwo nagusabye akabido ka litiro eshanu, akangako gasubizeyo umpe aka litiro eshetu kuko ndumwe ntabwo litiro eshanu nazazimara ayo mata rwose yabari menshi yazapfira munzu yajye, hanyuma numara kumpa ayo mata umpe niyi biswi y'ubururu.

Mbabarira umfashe gusobanukirwa neza pe, amata yanyu nayakunze araryoshye cyane, sinza ahantu murangurira, maze iminsi njya kurangura amata cyane cyane aya litiro eshanu, bakampa amata abishye abana banjye akabananira, ubu ngubu amwe twarayajugunye.

Ubundi iyo uguze amata, ntugure amata y'inyange uba uhombye! Ni amata meza, amata ateguye neza, amata ashobora guhita anyobwa ako kanya, kandi yujuje ubuziranenge. ubwo rero ndagushishikariza, nkubwira ngo uzajye unywa amata y'inyange gusa!

Umaze umwanya munini uri gusuka amata muri ino mashini yanyu ariko ikintu kiri kuntangaza ni uko itari kuzura, ubusanzwe ino mashini ijyamo litiro zingahe z'amata ko mbona itari gushira? nimba ntibeshye neza nkeka ko ushobora kuba umaze gushyiramo nka litiro makumyabiri n'esheshatu.

Ubungubu nkomeje kugenda numirwa ibiciro bisigaye bihanitse ku isi yose si mu Rwanda gusa, mu myaka itanu ishize igi nariguraga amafaranga mirongo itanu ariko ubungubu nsigaye njya kugura igi bakansha magana abiri, ubwo ni ukuvuga ngo kuri maganabiri yange kera natwaraga amagi ane.

Firigo yacu rwose ntakintu kirimo, n'amata twari dufite twayamaze ubungubu ni ukuvuga ngo nafashe aya mabido ya jibu, ngiye kujya hariya hirya ku ruganda banshyiriremo andi mata yuzuye ubundi bwo nze nshyire muri firigo nyakonjeshe kugira ngo ejo abakiriya bazabone icyo mbaha.

Mu iduka ryanjye ibintu ni uburyohe. Iyi mashini mfite itunganya amata, nayikuye mu Burusiya. Ni ukuvuga ngo nta handi hantu wajya ngo uyisange muri kano Karere; ni njyewe njyenyine uyifite. Iyo uyikeneye uragenda ukayitumiza, igura miriyoni esheshatu, nawe bakayikuzanira.

Najyanye n'umushuti wanjye muri kantine nsaba inshyushyu we yisabira ikivuguto, navuze ko ngewe nkeneye inshyushyu kubera ko numvaga umubiri wanjye hari ukuntu uri kuma ukeneye utuntu tw'amazi kandi inshyushyu niyo yorohereye cyane ibikora vubavuba.

Ubusanzwe iyo ngiye kunywa inshyushyu, bampa igikomambe kinini, sinzi impamvu rero nageze aha ngaha bakampa igikombe gitoya, ibaze ko bampaye igikombe cya magana ane ubusanzwe nifatira igikombe cya magana tanu. ariko ntacyo ubutaha babimenye bagomba kumpa mugikombe kinini.

Ubundi uruganda rw'inyange ni rwo ruganda rwa mbere rutanga amata menshi mu Rwanda. Rutangira abantu benshi ntabwo barwizeraga kuko rwakoraga n'ibintu byerekeranye n'amazi baravugaga ngo ibi ni ibiki bije mu Rwanda ariko ubu ngubu ni rwo ruganda rusigaye rutunze benshi mu mujyi wa Kigali.

Yahurute zikigera mu Rwanda abantu benshi bakuze bavugaga ko badashobora kuzinywa bazita iz'abana, ari kuri ubungubu ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko yahurute nyinshi ziri kunyobwa n'abantu bakuru ugereranyije n'izo abana banywa, ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo mu myaka itanu iri imbere abantu bakuru nibo gusa bazaba bari kunywa yahurute.

Iyo nkumbuye agashyushyu gakonje akenshi nkunze kujya ku muturanyi wanjye ugacuruza nkicara ku rubaraza rwe , ubusanzwe iyo mpageze araza akanganiriza ariko uyu munsi natunguwe cyane pe! ibaze ko maze iminota mirongo itatu ntaramubona?

Sinzi impamvu abantu benshi basuzugura igitsina gore; ariko ngewe nka hariya hantu tuvuye, uriya mugore wambaye igitenge cy'ubururu rwose namukunze! Atanga serivise nziza, ndetse n'amata ye numvishe aryoshye pe! NzasubIrayo, uriya mugore ibyo akora arabizi.

Mu mico yange rwose birangora kugira ngo nge ahantu mfate icyo kunywa ngenyine, cyakora uno munsi nishimye cyane kuko narindi kumwe n'insuti zange eshatu, tujya ahantu baduha inshyushyu iryoshye koko, n'ejo ndumva nasubirayo rwose, ariko ntacyo, nzajyayo ubutaha.

Ibyo wambwiye ni byo pe! Ukwezi gushize nkicuruza amata nakuye muri firigo gusa abakiriya barazaga bakagenda ntibagaruke, ariko ubungubu kuva aho maze kugura imashini itunganya amata, umuntu wese uje kungurira mba nizeye ko ejo azagaruka.

Ubundi nta mukire urya adafite imbuto iruhande rwe kuko igihe cyose umaze kurya ugomba guhita uzifata ukazirenzaho kugira ngo nyine ubuzima bwawe bukore neza. Ubutaha nujya kurya ahantu muri resitora uzababwire bakuzanire imbuto, nibataziguha ntuzabyemere.

Hari ukuntu ujya kunywa amata ahantu ugasanga ntabwo bafite ibikoresho by'isuku bihagije, ahantu nagiye uno munsi bari bafite ibitambaro bikeya by'isuku, nabogoye amata ku meza nshaka ikintu nyahanaguza rwose ndakibura byasabye ko bajya kunzanira igitambaro kindi bari bafite mu nzu ndetse n'amazi barayahanagura.

Nta kibazo. Genda unzanire amata nagusabye, hanyuma nurangiza unzanire n'amandazi atanu muri iriya ndobo y'iburyo . Ndashaka kurya amandazi uno munsi nkumva nyahaze pe! Maze igihe kinini numva nyakumbuye, ariko uno munsi ngiye kuyarya nyashire ipfa.

Umudamu nakoherereje yambaye ikanzu y'igitenge irimo amabara atukura kandi afite n'imisatsi miremire y'imiterano, hanyuma rero nahagera umuhe icyayi cy'amata kandi umwiteho rwose umurebere keke arazikunda cyane kandi umurebere zazindi zitamaze igihe.

Izi sambusa turi kurya ntakindi kibazo na kimwe zifite uretse kuba zikonje pe, zari ziryoshye ariko ndumva ndibuze kurwara mu nda mukandi kanya nimara kuzirya, ndabona ntaribuze kuzimara, ahubwo iziri busigare ndabona ndibuze kuzipfunyika nkazishira abahungu banjye nabo bakiriraho.

Abantu batekerereza uruganda rukora yawurute rwose ni abahanga! Ibaze ko bakoze inini n'intoya ni ukuvuga ngo izo ngizo nini ni iz'abantu bafite ubushobozi bwisanzuye, n'aho izo ngizo ntoya ni iz'abantu bafite ubushobozi buri hasi cyangwa se bakeneye kunywa ibintu bya makeya bitabahenze.

Umukobwa wanjye iyo namusize ku kazi, mba nizeye ko ari buze gufata abakiriya banjye bose neza. Ubu ngubu azi ko ntari kumureba, kandi ibintu byose ari gukora ndi kubibona kuri kamera. Bariya basore bane bicaye hariya, ari kubasukira amata mu bikombe bine, kandi agiye kuyabaha neza pe! Ndabyizeye.

Umukobwa twari turi kumwe namwohereje ku bakozi ba Mtn ngo bamusobanurire ibibazo yifuzaga. Yarari kumbaza iriya telefoni nshya ya ikosora igura angahe ndetse n'uburyo ayibonamo kuko yambwiraga ko ayikeneye kuko iyo yarafite yatakaye mu minsi ishize.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu wayitebeje mu ipantaro y'umukara, ahagaze kukazu ka MTN karimo umukobwa w'inzobe, ariko uyu mugabo ari kumusaba serivisi y'amayinite kuko twari turikumwe hano hirya aribyo ari kumubwira.

Ushobora guhaha ukanishyura ukoresheje momo peyi, ni ubuntu ntago tugukata ibintu byose twabigize nk'ubuntu, hamwe na emutiyene ushobora kuza kuduhahira dukorera mu mujyi hafi na Matewusi.

Hashize igihe kingana n'ibyumweru bibiri buri munsi abakozi ba emutiyeni babyuka bakaza ahangaha baje gutanga serivise za emutiyeni, bavuze ko ari igikorwa kizamara iminsi cumi n'umunani, ubwo rero urumva ko hasigaye iminsi ingahe? iminsi ine gusa.

Kuri njye sinzibaza impamvu umuntu ashobora kujya kugura amayinite ya mtn, yahagera akahasanga umuntu umwe gusa. bigatwara iminota irenga makumyabiri kugira ngo umuhe serivisi sinzi rwose, uko bigaragara nuko hari abakozi bamwe n'bamwe ba mtn batazi ibyo bakora.

Ubungubu hamwe na Airtel money ushobora kohereza amafaranga kuri MTN no mu mahanga, wagura amayinite, ndetse ukishyura n'ibintu byose harimo kwishyurira abana minerivare, kwishyura serivisi za leta ndetse n'ibindi byinshi.

Byari bigoye cyane mu myaka yashize mu Rwanda kugira ngo ugire ahantu ujya usange hari ibishushanyo bya MTN cyangwa se hari amaduka ya MTN, ariko ubu ngubu byaroroshye ahantu hose ugiye serivisi yose ukeneye muri MTN barayigiha aho waba uri hose.

Numara gukora ibyo twagusabye utegereze akanya gatoya, hari imibare itandatu turi buze kukoherereza uhite uyishyira muri telefone yawe ubundi wemeze; numara kubikora icyo gihe konti yawe iraba rwose yagiye ku murongo, wemerewe kuyikoresha ibyo ushaka byose.

Narimaze igihe kinini ntagera mu Rwanda ariko ubwo nahageze natangaye pe, narindi mu imodoka twaye ngiye kuri sitasiyo ya peterori, mbona rwose ibintu byaroroshye ngo n'ukwishyura ukoresheje inkoranabuhanga ibintu by'amafaranga mu intoki ntibikunda, MTN rero rwose nanjye nahise ngura simukadi.

Bitewe nuko twari turi gusiga amarange icyapa cyange cya MTN kiriho kode y'ubucuruzi nakimanuye njya kukibika mu cyumba kugira ngo kitandura hanyuma ubwo birangiye, ngiye kukegera nyimanike abakiriya nibaza kumpahira bajye babona kode yange y'ubucuruzi.

Tega amatwi wumve ibyo usabwa, kanda akanyenyer, ijana na mirongo inani na kabiri urwego, ubundi bwo ujye kuri gatandatu, hanyuma ukurikize amabwiriza, nugera ahantu handitse shyiramo amafaranga, ushyiremo umubare w'amafaranga ushaka kubikuza.

Ahantu natembereye ejo hari hari umuzungu w'umwongereza, ubona ari guseka yishimye cyane aganira n'umukozi wa mtn, numvaga bavuga mu kinyarwanda ariko ibintu bimwe na bimwe atabizi. Nkibaza ese ko ari kuganira n'umukozi wa mtn mu kinyarwanda arakizi?

Biragoye ko ahantu hari umukozi wa MTN ugasanga adafite ibiciro bya imayinite, urugero nk'ubigiye kubikura cyangwa kubitsa haba hariho'ibiciro byose. ugiye kubikura igihumbi ugiye kubigura ibihumbi icumi na amafaranga ukatwa ntabwo aba angana.

Uriya musore wambaye ikoboyi y'ubururu, amaze nk'isaha ari kuzenguruka aha ngaha; abaza abantu bose babonetse, umuntu wamufasha muri serivisi za emutiyeni. Uyu mukobwa ukorera kuri kariya kazu ka emutiyeni, yari yakinze ntabwo yari ahari; ariko ubwo yaje ndishimye, kuko ari kumufasha.

Ikibazo umbajije kiroroshye rwose pe! Uzi ko n'umwana wiga muri garidiyene yakigusubiza? Ni ukuvuga ngo: ibara ritukura, ubundi riranga Airtel, naho iri bara ry'umuhondo rikaranga MTN. Rero, uriya mugabo wicaye mu ibara ritukura, ni ukuvuga ko ari umukozi wa Airtel.

Sinzi impamvu ugorana pe! ubusanzwe nari nzi ko abantu bambara imyenda nk'iyo ngiyo wambaye ya emutiyeni batanga serivise nziza, wambabariye koko ukanzanira kariya gatebe kari hariya hirya k'umweru nange nkaba nicaye mu gihe ntegereje ko umfasha basi wenda ko natuza?

Umushoferi twahuriye muri gare ya Nyabugogo, yanyegereye nawe afite imodoka yanditseho ibintu bya emutiyene, kuko nange nari nambaye umupira wa emutiyene rero nagize ngo ni umukozi wayo ahubwo we yaje ambwira ko ayikunda ari kumbaza amakuru yayo n'ukuntu yagura amayinite.

Emutiyeni ndayikunda cyane rwose! Ibaze ko nk'uyu munsi baje gukorera igitaramo iwacu, bazanye abahanzi ba bandi bose dukunda mu Rwanda, baje gusa kwamamaza telefoni yabo nshyashya basohoye, kugira ngo abaturwanda tuyigure. Nanjye rero rwose sinatinze nahise ngura iyanjye!

Nibyo rwose, ubundi iyo ugize ikibazo ugomba kujya ku cyicaro cya MTN kikwegereye, icyo waba ufite cyose barakigukemurira. ubwo rero nawe genda wicare hariya, utegereze bariya bantu bari gukorera nibarangiza, ugende ubwirire uriya musore wambaye agapira k'umuhondo, wambaye na rinete z'umukara aragufasha.

Abanyarwanda benshi bakunda kwidoga bavuga ngo mu Rwanda emutiyeni niwo muyoboro wa mbere w'ikoranabuhanga ukomeye nibyo koko ntago mbihakana, ariko benshi muri abo babivuga ntago bazi ko udakomeye mu Rwanda gusa ahubwo uyu muyoboro ukomeye ku rwego rw'Afurika.

Aba ejenti ba MTN nabo bakorera amafaranga menshi, ariko abantu benshi ntabwo bajya babisobanukirwa. nk'uyu musore uri hano wambaye agapira karimo imirongo y'umweru, arabikora, kuko amaze imyaka itatu abikora, biramutunze ndetse ubu ngubu yazanye umugore, afite n'umwana wiga muri pirimeri.

Abazungu nibo bantu bambere maze kubona ko bakunda umuco pe! ibaze ko umuzungu yari afite agaseke ubona yishimye adashaka kukarekura, ariko iruhande rwe hari umugore wambaye agatambaro ka emutiyeni na we yishimye cyane ari kureba umuzungu agaseka ibitwenge byamwishe.

Hamwe na MTN, ibintu biroroshye ushaka kuba umu ejenti, ushaka kugura telefoni ya MTN, ushaka kugura simukadi ndetse n'ibindi byose byerekeranye na MTN hano turagufasha, uyu munsi twaje guteranira hano mu Karere k'iwanyu kugira ngo tubakemurire ibibazo byose mwaba mufite hamwe na MTN.

Abantu bakoresha emutiyeni barayikunda pe ibaze ko usibye kuba bambara imipira yayo yewe hari n'abafata ibishushanyo byayo bakabyomeka ku modoka zabo mpamya neza ntashidikanya ko no mu inzu yabo hari ibishushanyo bya emutiyeni kandi n'amarange yabo ari imihondo.

Ubungubu hamwe na eyeteri ibintu byose byaroroshye! Ushobora gukoresha apurikasiyo yitwa ''mayi eyateri'' muri telefone yawe, ukabasha: kureba amayinite usigaranye, kureba amafaranga usigaranye kuri eyateri mani ndetse n'ibindi byose; serivise zose za eyateri ushobora kuzisanga muri iyo apurikasiyo.

Jya ureka ibintu by'imikino wana, ibintu byarakaze ubungubu amafaranga yarabuze, reba nkahariya mwa kariya kazu, harimo abakoze batatu ba Emutiyeni bose bategereje umukiriya, ngaho ibaze nk'iyo haje umukiriya umwe, ubwo baramurwanira bose bashaka kumukorera.

Waruziko ushobora kugura paka za MTN ugatsindira amafaranga, ushobora kubikora ukanze akanyenyeri ijana na mirongo ine urwego n'akanyenyeri magana atatu na mirongo ine na gatanu urwego ukemeza ubundi bwo nawe ukagura amayinite.

Mu kanya mvuye kugura mitiyu ariko abantu mpasanze ni uruhuri, nageze ku kazu ka emutiyene mpasanga abagabo batatu bahagaze bose bategereje, ubwo nange byansabye ko ntonda njya ku murongo ndi uwa kane kugira ngo babone kunkorera, nyuma rero baje kunkorera amayinite yange ndayacyura.

Igihe cyose uri gukoresha apulikasiyo ya momo hakazamo agatangaro, bivuze ko interineti iri kugenda gakeya; usabwe rero guhaguruka ahantu wicaye ugahindura ukajya mu kandi gace ukareba ko interineti yakora neza; iyo iri gukora neza kariya gatangaro ntago kongera kugaruka.

Abantu benshi Momo pay igitangira gukoreshwa barayitinyaga bavuga ngo ibakata amafaranga menshi, ariko ubu ngubu byaroroshye, umucuruzi wese asigaye afite Momo pay, turagenda twagura ibintu by'ibihumbi ijana, twagura ibintu by'ibihumbi magana abiri, tumwishyura kuri Momo pay, nta n'igiceri badukata.

Ku kazu nkorera haje umugabo waje kubikura amafaranga kuri simukadi ya MTN ahageze yibagiwe umubwire w'ibanga biratangaje cyane rwose uburyo yitwaraga namusetse arangije abonye ukuntu ndi ku museka nawe ariseka arangije arambwira ngo kwibagirwa n'ibintu bisanzwe ngo azajya kuri MTN babimufashe.

Isoko mperutse guhahira mo ririmo ibintu byinshi pe, ibaze ko nahageze nkahasanga intoryi nyinshi, amafu y'ubugari ndetse n'ibindi byose birimo imbuto n'inyama hirya kuru ruhande rw'iburyo ariko ikintu gitangaje nuko bose batebera amafaranga mu ntoki baba bashaka ngo ubishyure kuri kode yabo y'ubucuruzi ya mtn

Nimutuze kandi mureke guteza akavuye ikindi kandi ubwo buryo muhagazemo ntabwo nabukunze, nimukore umurongo umwe buri wese ashyire hafi irangamuntu ye, mujye mugenda haza umwe umwe mbafasha, mwese nimuhumure simukadi zirahari nyinshi kandi mwese buri wese aracyura simukadi.

Niba uje kugura amayinite rero, hagarara neza utegereye urwo rukuta rw'umuhondo kuko rwakwanduza, aya marangi mashyashya twasize ya MTN ntabwo yumva vuba ubwo rero ushobora kukwanduza imyenda, ugasanga ugiye wivovota ngo twaguhaye serivisi mbi kandi ari wowe.

Mugende kuri kariya kazu k'ibiti kari hariya barabafasha bariya basore babiri barimo batanga serivise nziza kandi ibyo bakora barabizi batanga serivise z'Irembo, n'izindi z'amabanki harimo nko kubikura ndetse no gushaka ibindi byangombwa mwabuze ku mbugankoranyambaga.

Kera MTN imaze igihe gitoya mu Rwanda itangiye gushyiraho ibintu by'aba ajenti, wasangaga bakorera mu tuzu twabo batagera hanze ugasanga bimeze nk'ibiro bye, ariko ubungubu bamaze kuba benshi usanga uwambaye ijire akorera aho aboneye hose.

Sinzi impamvu uri gukomeza wibeshya kuri kode yanjye, tega amatwi rero utongera kwibeshya kode yanjye ni gatandatu enye, mirongo itatu, amazina abaruyeho ni yayandi urayazi NIYOMUGISHA, urebe neza ko wabyanditse neza utayobya amafaranga yawe.

Abantu mwese mukeneye ko tubahindurira umubare w'ibanga wanyu mwibagiwe cyangwa ko tubaha simukadi nshya mwakegera uriya mukobwa wambaye agapira k'umuhondo n'uriya musore bicaranye barabibafasha rwose, hanyuma Abandi bafite ibibazo nk'ibyo kugura telefoni muge kuruhande rwo hirya barabibafasha.

Umukobwa ukora mukazu ka MTN duturanye abasore bakunze kuza kumuganiriza kenshi mumasha y'umugoroba bigatuma yica akazi ke, nkuyu munsi hari umusore waje yamabaye ishati y'ubururu yayitebeje aramuganiriza biratinda kuburyo bamaze amasaha agera muri ane bari kuganira.

Umuntu udakoresha MTN ari guhomba rwose. Uyu mugabo yari yagiye ku kazu ka MTN gushaka amayinite yo guhamagara mu mahanga, kuko ashaka guhamagara inshuti ze ziri Kampala n'abandi bari muri Kenya. MTN rero yashyizeho iyo serivise yo guhamagara mu mahanga umuntu ashobora guhamagara mu bihugu byose by'Afurika n'ibindi byo muri Aziya.

Aba bakobwa barishimye cyane rwose uko bagaragara bose ni abakozi ba emutiyeni bari bagiye gutanga serivise mu karere ka Musanze, aho abantu babyinnye bakanisanzura cyane bitewe nuko hari hari abahanzi benshi, aha rero byari nyuma y'igikorwa bari kwifotoza.

Abanyarwanda benshi, cyane cyane bo mu ntara bakunze kuvuga ko bakoresha airtel muguhamagara yewe no kugura interineti. Ariko abenshi bavuga ko interineti yabo itagenda neza, ariko amayinite yayo bakavuga ko bayakunda cyane bitewe nuko agura makeya ahendutse kandi adashira.

Ubu ngubu rwose ibintu twarabyoroheje turagutekera, wowe gusa icyo usabwa gukora ni ukujya ku mbuga nkoranyambaga zacu ukareba ibintu dukora ubundi bwo nawe ukadutuma. Urishyura ku mbuga nkoranyambaga n'ubundi hanyuma tukoherereze umumotari wacu akugereho.

Eric, genda ubwire uriya musore uhagaze hariya wambaye ijire ya emutiyeni aze mubwire; ariko ushaka wanabireka, ahubwo fata ino telefone yange ugende umubwire akubikurire ibihumbi icumi, namara kubigukorera ubundi bwo uyanzanire hano, hari ikintu nshaka kuyakoresha.

Abacuruzi benshi bagira ibikayi binini bandikamo ibikorwa byakozwe ndetse n'amafaranga yinjijwe ku munsi cyangwa se mu kwezi hari umusore natambutseho ari mu kazu ka emutiyeni nawe afite urwo rukayi runini yandikamo ibikorwa byakozwe ndetse na serivisi za emutiyeni yatanze uwo munsi ubundi bwo agakora raporo hamwe yose y'ukwezi.

Uyu munsi nange ndishimye cyane rwose! Abakiriya bange bajyaga baza guhaha ntafite kode y'ubucuruzi bikangora cyane kugira ngo mbabwire ngo nibishyure bakoresheje emutiyeni. Bambwiraga ko babakata amafaranga menshi bityo nange rero ubwo mbonye kode y'ubucuruzi ndishimye cyane.

Ishyura ahantu hose ukoresheje momo gose igihe wageze iwange ntukigore si ngiriya code aho imanitse ni karindwi umunani icyenda zero kabiri zero amazina ni Mukundabantu nk'ibisanzwe.

Ariko uziko abantu benshi bakunda kumbaza impamvu nashyize kino cyapa hano, umva nawe urabimbajije. Icyi cyapa nagishyize ahangaha kugirango nimuzajya mushaka kureba kode yanjye y'ubucuruzi mujye muyirebera ntihakagire umuntu umbaza kode kuko mba nibereye mubindi bintu.

Aha Ni mu muhanda haparitsemo moto n'abantu babiri umwe wambaye kasike bigaragara ko ataye moto kuriyo moto hakaba hariho ikarito atwayemo ibicuruzwa yatumye n undi muntu uje kubyakira wambaye agapira k'umutuku n'agapfukamunwa k'umukara bahagaze mu muhanda

Umuzungu ufite uruhara wambaye agapira k'umukara, ahagaze ku kazu ka eyateri yakuyemo rinete ze., ari kurebana n'umukozi wa eyateri baganira; bigaragara ko ari kumusaba serivise z'ama inite, cyangwa se kubitsa kuri eyateri mani.

Ubu ngubu hamwe na MTN ibintu biroroshye, twakuzaniye telefone nshya yitwa ikosora, ku bihumbi makumyabiri gusa ushobora nawe kuyibikaho, sura ishami rikwegereye rya MTN cyangwa se uhamagare ijana tugufashe, umukozi wese muri buze kuvugana kuri MTN aragufasha neza kandi ndabyizeye.

Uyu mucuruzi aratangaje rwose! Njyewe nje kumuhahira bisanzwe, hanyuma arambwiye ngo nindebe kode yo kwishyuriraho, nsanga yayirambitse hasi ku makaro, nta n'ubwoba afite. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo ndimo ndareba hasi kugira ngo mwishyure, kuko ntarebye hasi ntabwo nabasha kubona kode. Nari nzi ko abasanzwe bayimanika, bayimanika ku rukuta gusa.

Nari nsanzwe mpahira ku rubuga rwa TAYO ariko sinkamenya aho bakorera, uno munsi ndishimye cyane rwose ko mpageze, ndabona ari heza, amatara ni meza, ngiye gushishikariza n'abashuti banjye bose bajye bagura bakoresheje TAYO, dore ko nanjye nta gihe kinini gishize mbimenye.

Nita utazi twiga, ngiye kuyigusobanurira rero, byanze bikunze nimbara kuyigusobanurira ntabwo uzongera guta umwanya wawe ndetse no gusesagura amafaranga muri taransiporo ngo ugiye mu mugi gushaka ibiribwa ndetse n'ibindi bicuruzwa, iyo uhahiye kuri twiga ibintu byose waguze barabikuzanira ndetse kandi ku gihe.

Ibintu mwari mwahashye ni ibi ngibi nzanye, numvise ko mwari mwashatse n'amandazi ariko mutwihanganire rwose mwasanze yadufiranye, ubutaha nimugerageza kongera kugura ibintu ku rubuga rwacu, nzitonda rwose nzamenya neza ko nje mbizanye byose.

Ubu ngubu mpagaze hano ibintu byanshanze, maze isaha yose ntegereje umuntu waguze ibiryo ku rubuga ariko nomero ye ntago iri gucamo, simbizi yambwiye ngo yitwa Samuel ngo atuye hano hafi nawe rero kubera ko uhatuye sinzi niba waba uzi ahantu atuye ngo undangire?

Ku rubuga rwacu ubu uri guhahiraho ibintu bigiye bitandukanye by'umwihariko iby'abagore harimo nk'imisatsi y'abagore, ibitunganya imisatsi, udukapu tw'abagore ndetse n'inkweto z'abagore. Si ibyo gusa kuko dufite n'amavuta bashyira ku minwa.

Ukeneye abo turi bo wasura isoko rya sanju rikorera ku mbuga nkoranyambaga, ducuruza imyenda y'abagabo, imyenda y'abagore, kandi ikirenze kuri ibyo ngibyo, ibiciro byacu ntabwo bihanitse ugereranyije na babandi, kandi tubikuzanira aho waba uherereye hose ukihitiramo, utabishima tukabisubirana.

Nakundaga guahahira ku mbuga nkoranyambaga ariko safi ntago nari nyizi rwose! Uyu munsi ubwo nabahahiye tugiye kujya dukorana neza kuko mbonye mwihuta amasaha mwatubwiye ko muri butugerereho ni yo mutugereyeho ni ukuvuga ngo rwose ndabyemrye gukorana namwe.

Narimaze amezi atatu yose ndigushaka rubuga najya nguriraho inkweto nziza kandi zikomeye nararubuze. Ariko ubungubu ubwo nabonye kigure akadomo rwa ngiye kujya ngenda buri kwezi uko mpembwe nzajya ngura inkweto kuri ruriya rubuga, kandi rurizewe.

Urebe neza umumotari ukuzaniye ibintu ntagutambukeho, yambaye kasike itukura n'ijire y'umuhondo, urebe neza kandi kuri moto atwaye inyuma hariho ikintu cy'icyatsi kibisi cyanditseho vuba, cyanditseho n'ijana na mirongo itatu na rimwe.

Gura itike yawe nonaha ngaha utazacikwa n'igitaramo, umunsi wanyuma wo kwiyandikisha ni iteriki makumyabiri n'icyenda z'ukwa cyenda uyu mwaka, igitaramo rero kizaba kitabiriwe n'abanzi benshi harimo n'ababyinnyi abantu rero mukunda kubyina ntimuzacikwe.

Reka mbasobanurire gatoya kuri kampani yacu benshi muri mwebwe mushobora kuba mutayizi, ni kampani nshyashya icuruza ibintu ku mbuga nkoranyambaga nayo yitwa Kasha, ibintu waguriye ku rubuga rwacu turabikoherereza dufite moto ziri mu mabara y'imihondo.

Wa mukiriya we uranzerereje rwose, uduhamagara bwa mbere aderese washyizeho nizo nagiyeho, none reba nyuma wazihinduye ngarutse aha ngaha. Byantwaye umwanya munini kugira ngo menye ahantu uri. Ubutaha nuzajya ujya kudusobanurira ahantu uherereye, ujye utubwira ahantu uri apana aho ugiye kujya.

Abakire rwose ni abana beza. Ibaze ko ari ahantu tuvuye, uriya mugabo wicaye kuri moto, itwaye ibintu abantu baguze ku mbuga nkoranyambaga, ruriya ruganda no urwiwe, biriya bikorwa byose no iby'iwe niwe ubihagarariye, yabishinze mu mwaka ushize, ndumva aribwo yatangiye.

Uru rubuga rurizewe cyane iicuruzwa byabo birakomeye kandi bifite karite yo hejuru. Mu myaka ibiri ishize naguriyeho agakapu nahaye madamu kuri aniveriseri ye na n'ubungubu ntikaragira n'ahantu na hamwe gacika cyangwa ngo gakoboke karacyari gashyashya rwose.

Uru rubuga rwacu rwa jumiya ntabwo rukorera mu Rwanda gusa, ahubwo urusanga no mu bindi bihugu bya Afurika birimo nka Gana, Nijeriya , Kenya n'ibindi. Ducuruza rero imyenda y'abadamu harimo amakanzu, n'amajipo meza, ndetse n'amashati.

Ubungubu rwose ntukigore uvuna ibiti n'amaguru ngo uje kuduhahira. Ubungubu wemerewe kuduhamagara cyangwa ugashyira muri telefone yawe apurikasiyo yacu ubundi bwo ukajya utugeraho byoroshye. Iyo utwandikiye ni nkako kanya duhita tugusubiza kandi n'ibyo watumye tukabikoherereza vubavuba.

Kampani zigemura ibiryo mu Rwanda zimaze kuba nyinshi pe! Hari indi yaje ngo yitwa Kanisi yo ntago nari nyizi, moto zayo ziba ziriho ibisanduku by'ubururu inyuma uyibonye rwose biba byanditseho uhita uyimenya, ubungubu narumiwe nimba nzajya ngurira Kanisi, nimba nzakomeza ngurira rwa ruganda nari nsanzwe ngurira simbizi.

Uyu munsi ndababaye cyane ndumva ntashaka no kuvuga, mu kwezi gushize nasuye urubuga rwa kiku nshaka kugurira umugore wanjye agakapu keza kuri aniveriseri ye nzamuha nk'impano, ariko rwose ikintu banzaniye ni igikapu gisanzwe kandi ngo nakiguze amadorari maganabiri.

Mu bicuruzwa twongereye ku rubuga rwacu harimo n'amandazi. Ntabwo tuyahenda kuko igiciro ni maganatatu na miringo itanu gusa, ikintu gishimishije muri ibyongibyo n'uko iyo ibiguze turi bubikuzanire hakubiyemo n'igiciro cy'urugendo byose hamwe ntayandi mafaranga tuguca.

Urubuga rwa Yubeyi ni rwo rubuga rwizewe mu kugura ibikoresho byo mu rugo ukoresheje ikoranabuhanga, ushobora gusura imbuga zacu nka fesibuke, twita na insitagarame ukareba ibintu dukora hanyuma warangiza ugasura urubuga rwacu ukihahira.

Mu minsi ishize muri Kigali ibintu byari uburyohe pe, abamotari mu myenda itukura bose babaga bambaye ibintu byanditseho Yego Moto, ariko ubu ngubu nibaza aho bagiye, reba nk'ubu ngubu hashize igihe kinini, nshobora kugutuma gushaka umumotari ufite moto yanditseho Yego Moto ukamubura.

Ubusanzwe uburyo iposita rikora, uragenda ugafatamo konti, hanyuma umuntu uri mu mahanga yazakohereza ibintu hari imodoka bafite zijya kubifata ku kibuga cy'indege zikabizana ku iposita, hanyuma niba uri mu magepfo, nimba uri mu mugi wa Kigali, ahantu hose waba uherereye bakabizana ku iposita iri hafi yawe ubundi ukajya kubifata.

Nizere ko wishimye rwose, bintwaye iminota itanu gusa kugira ngo nkugereho, ubusanzwe vuba n'ubundi nkuko twitwa vuba turihuta, ibyo wantumye byose birimo aho ngaho ndetse nukoramo hasi naza karoti bambwi ngo ngire nyinshi nazo ziririmo urazisangamo.

Njyewe nitwa Samuel nkorera Kasha, hanyuma ibyo mwari mwatumye ni ibingibi mbazaniye mwareba neza nibamba byuzuye ubundi bwo mukambwira nkasubirayo, nimumara kureba muransinyira kuri kano gapapuro, muvuga ko ibyo mwatumye byabagezeho kandi neza ku gihe.

Vuba ndayikunze cyane rwose! Ubu ngubu ibintu nahashye murabinzaniye? Bitewe n'uko ndi ahantu kure, numvaga mutari buze kubasha kubinzanira, muri buze kumpamagara ngo ninze kubitora ahantu runaka, ariko ndishimye cyane rwose! Nonese ntayandi mafaranga muri buze kunsaba?

Nkuko nabiberetse ku mashusho nimero yacu ni iriya. Ni zeru karindwi umunani zeru kane gatatu karindwi rimwe makumyabiri ikirenze kuri ibyo niyodukoresha kuri watsapu ndetse n'iriya iri hasi ni imeri yacu ubwo rero muzagaruke rwose mwakoze kuduhahira.

Icyo usabwa ni ugusoma buno ubutumwa neza witonze, Uruganda rwacu rwagabanyije ibiciro bitewe n'uko turi mu minsi mikuru, ushobora kugura ikawa, ushobora kugura imyambaro ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ku rubuga rwacu, ukagabanyiriza ku rwego rwa gatanu k'uijana.

Ejo nari nicaye muri salo iwacu ndikumwe na papa na mama turi kuganira ku bucuruzi bwange, sinzi ukuntu mama yagize gutya aravuga ngo arashonje. Nahamagaye ba bantu batwara ibiryo ku mbuga nkoranyambaga ndababwira ngo nibatuzanire ibiryo mu rugo. Mama abyumvise yaransetse cyane atungurwa no kubona babitugejejeho.

Ibyo wavuga byose sinshaka kubyumva njyewe icyo nzi nuko company yacu ariyo company yambere idahenda mu Rwanda ibaze ko iyo uguze ibintu ku rubuga rwacu tubikuzanira ku buntu ntayandi mafaranga arenzeho tugusabye wowe gusa icyo usabwa ni ukwishyura amafaranga nkuko byagenwe.

Nk'uko nabigusobanuriraga ahangaha niho hantu dukorera. Dufite ibikoni hariya inyuma amabara yacu nk'ibisanzwe ni icyatsi kibisi. Waza rero ugahaha cyangwa se ukatwandikira ku mbuga nkoranyamabaga zacu tukagusubiza ndetse n'ibiryo wadutumye tukabikugezaho.

Dukorera hafi y'isoko rya Kimironko. Ducuruza inkoko, ipirawu, inyama z'ingurube n'iz'inka bihiye akarusho nuko ahantu hose waba uherereye ushobora kutwandikira kuri nimero yacu ubundi bwo tukabikoherereza ahantu hose waba uri bikakugeraho.

Ushobora kutwandikira ku mbuga zacu nkoranyambaga harimo insitagarame, fesibuke ndetse na watsapu hanyuma ibicuruzwa byacu bisangwa ku iduka akadomo rwa. Hariho byinshi bigiye bitandukanye imyambaro y'abasore ndetse n'iy'abakobwa mwaza mu kihahira.

Umuco wo kurangarana narinziko abamotari bose batawugira, ariko uno munsi natangaye cyane rwose mbonye abamotari bane, bose bahagaze bari kureba umuntu waruguye hasi bari kumuseka kandi ubwo ngubwo ikintu gitangaje bose bari bafite ibicuruzwa abantu baguriye ku mbuga nkoranyambaga babibashyiriye mungo z'iwabo.

Hari abantu rwose bakora akazi ubona bakishimiye. Hari abagabo babiri batwara moto za vuba ziriya zitwara ibintu zibigeza ku ngo z'abantu. Nibyo abandi bagiye batuma ahantu hagiye hatandukanye mu mugi wa Kigali. Rwose uyu munsi twahuye ubona bishimye cyane.

Ukeneye ibiryo birimo intungamubiri nta handi wabigurira, ni ku rubuga rwacu gusa. Ikirenze kuri ibyo, iyo ubiguze tubikugezaho bigishyushye. Ahantu hose rero waba uherereye mu Mujyi wa Kigali, twandikire kuri nimero yacu isanzwe, ubundi tukugereho.

Ku rubuga rwacu biroroshye, ushobora kugura imyenda y'abana, abagabo n'abagore ndetse n'inkweto, ariko cyane cyane imyenda y'abana, dufite imyambaro mishyashya yaturutse mu Bushinwa, ushobora kuza nawe ukihahira, ibintu bikakugeraho neza.

Ubundi mu bintu byo guhahira ku mbuga nkoranyambaga, ikoranabuhanga Abashinwa baradusize cyane pe! Ibaze ko ho usanga mirongo icyenda ku ijana y'abanyagihugu ibintu byose bakeneye babigurira ku mbuga nkoranyambaga, ariko ugasanga twebwe turi gusakuza ngo ntabwo twitaweho.

Umuntu utari guhahira ku mbuga nkoranyambaga rwose ari guhomba. Ubu ngubu kampani yacu ibintu yabyoroheje, ubaye ufite akazi kenshi, uri mu rugo cyangwa se uri ku kazi ibicuruzwa waguze turabikuzanira aho waba uherereye hose. Ikirenze kuri ibyo ngibyo, dukora no muri wikendi ndetse no ku cy'umweru.

Abantu benshi mwajyaga mukunda kumbaza ngo ni hehe umuntu yahahira imyenda, inkweto ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga ku mbuga nkoranyambaga, uru rubuga murwitegereze neza, ibi byose mukeneye birimo, reba harimo n'inkweto hariho imyenda ndetse n'amatelefoni. Ubwo ni ukuvuga ngo rero nizere ko ntahandi hantu muzongera guhahira. Urubuga ni uru.

Ubungubu rwose kampani yacu ibintu yarabyoroheje, tugusangisha ibicuruzwa waguze ahantu hose waba uherereye, niba uzi uburyo kampani ya vuba ikora, dufite moto natwe, ibicuruzwa waguze tubishyira kuri moto tukabihereza umushoferi wacu cyangwa se umuntu utwara moto, akabikuzanira aho waba uherereye hose.

Umva musore ibyo bicuruzwa uri gufata ntabwo ari ibyawe, twebwe nka Yego iyo tukuzaniye ibicuruzwa urategereza tukabikwihera twebwe ba nyir'ubwite. Anvilope yawe iracyari muri icyo gisanduku iyo ngiyo ni iya mugenzi wawe uriya uri kuza hariya inyuma, tegereza rero nawe tuguhereze ibyawe.